Gahunda yo guterwa urukingo ku bana, aho umuganga ari gutera urushinge umwana muto, uwo mwana akaba ateruwe na mama we.

Imbere y'inzu nto yo kubamo hicaye umudamu uteruye umwana ndetse n'umugabo, uwo mugabo akaba ari gutanga inama kuri uwo mudamu.

Ahabereye gahunda yo guha abana amata. Yitabiriwe n'abayobozi batandukanye ndetse n'abana bari guhabwa amata. Kandi bose bakaba bambaye imipira isa.

Ku ivomero hari umwana w'umuhungu uri koga intoki, hirya y'iryo vomero hateye ibiti ndetse hari indobo ebyiri z'ubururu.

Umugore w'umukangurambaga w'ubuzima ari kugira inama umugore utwite ndetse n'umugabo we, uko bakwiye kujya bitwara kugira ngo umwana uri mu nda, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abana batatu bambaye iniforume, bakaba bose bari koga intoki bifashishije urukarabiro rusange ikigo.

Ahari kubera inama yahuje abayobozi batandukanye, bakaba bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, ndetse n'amakaye.

Ku ivomo rusange hateraniye abantu b'ingeri zitandukanye, hari ijerekani iri kuvomerwa ndetse n'umuntu uri kuzamura amazi kugira ngo agere mu ijerekani.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomero, hirya y'ivomero hari ibiti ndetse imbere ye hateretse amajerekani, urabona ko yishimye ndetse ari koga intoki.

Mu isambu ahari ibiti by'ingano zitandukanye ndetse n'ibyatsi, hari umudamu wikoreye indobo y'umutuku ndetse afashe n'indi y'umuhondo mu ntoki.

Ahari kubera ibikorwa bitandukanye byo kuvura abaturage. Hari umugore waje kuvurwa kandi akaba ari kuvurwa n'umusore w'umuganga wambaye iniforume z'abaganga.

Umugore ukuze, ahagaze ku ivomo. Akaba yagiye kuvomera mu ijerekani abiri y'umuhondo, inyuma y'iryo vomo hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Kwa muganga aho bari gusuzuma umwana. Uwo mwana akaba ateruwe n'umubyeyi, imbere yabo hari muganga akaba ari we uri gusuzuma uwo mwana.

Ivomo rusange ahari umwana w'umuhungu uri kunywa amazi akoresheje intoki ze, ari gusaguka ari kugwa mu ndobo iteretse hasi y'aho ari.

Ku ivomo ahari abagore batatu, babiri muri bo bakaba bari gufasha kuzamura amazi, aho umwe muri bo ariwe uri kuvomera mu ndobo.

Ku nzu icumbikiye abarwayi bafite icyorezo runaka, hari abashinzwe kubitaho ndetse abo bashinzwe kubitaho bambaye ibikoresho bibarinda ku buryo ntaho bahurira n'icyorezo.

Ahabereye igikorwa cyo gutanga urukingo ku bana bato, bikaba biri gukorwa n'umuganga w'umugabo akingira abo bana.

Ku ivomo rikikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, hari umwana w'umukobwa uri koga intoki, imbere ye hari amajerekani.

Ku ivomo, ahari abana bane b'abahungu, harimo umwe uri gufasha kuzamura amazi, iruhande rw'iryo vomo hari ibyatsi, ndetse hari n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ahahuriye abantu benshi b'ingeri zitandukanye, higanjemo abana. Hakaba hari kubera ubukangurambaga bwo kurwanya Ebola kandi hari umugabo ufite indangururamajwi.

Hanze y'inzu y'ibiti, ahicaye kandi hateraniye abantu b'ingeri zitandukanye. Imbere yabo hakaba hahagaze umugabo ufite ikaramu mu ntoki ndetse n'igitabo bigaragara ko abayoboye.

Umwana w'umukobwa uri ku kigo cy'ishuri, akaba ari gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarabe hirya ye hateye igiti.

Ku ivomero rusange hari abagore batatu, babiri bari gufasha kuzamura amazi, aho uwa gatatu ari kuvoma.

Ku ivomo ahateraniye abantu batandukanye, harimo abana ndetse n'abakuru, hirya y'iryo vomo hakaba hateye urutoki.

Mu nzu ahateraniye abadamu benshi, bafite abana b'impinja, baricaye kandi buri wese agiye ateruye umwana we.

Umwana muto w'umukobwa uri koga intoki akoresheje urukarabiro ruri imbere ye, aho amazi ari kumara koga akagwa mu ibase y'umukara iteretse hasi.

Mu cyumba cyo kwa muganga, hari gutangirwa serivise z'ubuvuzi ku mukobwa urwaye, wicaye ku gitanda cy'abarwayi, akaba ari kuvurwa n'umuganga, wambaye imyenda y'abaganga.

Mu cyumba cy'inama ahabereye inama yitabiriwe n'abantu batandukanye ndetse bose baricaye, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse n'ibikoresho bitandukanye nka za mudasobwa ndetse n'ibitabo.

Umwana w'umukobwa urigukaraba intoki ukoresheje amazi arigukaraba akaba ariguhita ajya mu ibase y'umukara.

Ku ivomo rusange hari umwana w'umuhungu muto usoje kuvoma. Afite indobo y'umuhondo agiye kwikorera, ndetse hari umugabo ugiye kumufasha.

Umwana muto w'umuhungu uri kuvoma amazi, akoresheje ijerekani y'umuhondo, akaba yunamye ari kuvoma ndetse akaba ari kuvoma akandagiye mu mazi.

Abana babiri b'abahungu bari ku ivomo, bakaba bicaye bishimye kandi bari kunywa amazi bakoresheje intoki zabo.

Abana babiri b'abahungu bagiye ku ivomo rusange bakaba bose bicaye ndetse bari kunywa amazi bakoresheje intoki zabo.

Ahari gutangirwa urukingo hicaye umusaza wambaye agapfukamunwa, aho ari gukingirwa n'umuganga wicaye kandi akaba yambaye imyenda y'abaganga.

Ahari kubera igikorwa cyo gupima abantu ngo barebe ko badafite icyorezo, bikaba biri gukorwa n'abaganga babyigiye, ndetse umusaza akaba ariwe uri gupimwa.

Icyumba ahari kubera inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, inama ikaba iri gukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, kandi abayitabiriye aho bicaye buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Ahicaye abadamu batanu, ndetse bose bakaba bari kuganira. Inyuma yabo hateretse ibikapu, ndetse hari imeza iriho ibitabo.

Ivomo rusange ahari abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, umugore umwe n'umugabo bakaba bari kuvoma bavomera mu majerekani y'umuhondo, aho undi mugore ahagaze inyuma.

Abakozi b'ikigo runaka, bambaye iniforume zisa, kandi hari umuyobozi bari kumwe ndetse bose bambaye udupapuro tubaranga mu ijosi.

Agatanda k'ibyombo gafasha mu kugira ngo ibyombo byumuke, iruhande rwako hateye insina ndetse n'urugo ruhari rwubakishije imiyenzi.

Abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, bari kunywa amazi aturuka mu kigega, bose bambaye iniforume.

Ku ivomo rusange ahari abana bari kuvoma, hirya yaho hateye ibiti ndetse hari n'imodoka kandi hari umumama uri gufasha abo bana kuvoma.

Ahabereye ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite, nyuma yaho, abitabiriye ubwo bukangurambaga bakaba bari gufata ifoto, harimo abambaye imipira isa, ndetse n'abayobozi

Ahari imifuka myinshi irimo ibiribwa, ikaba iri guterurwa n'abagore babiri ndetse n'umugabo umwe.

Mu cyumba gito kiberamo inama ahabereye inama yo gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'abaganga.

Ivomo rusange, hari abagore batatu, umwe akaba ari kunywa amazi akoresheje intoki, undi akaba ari koga mu ntoki, undi akaba ahagaze, iruhande rwabo hari amajerekani abiri y'umuhondo.

Icyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abagabo n'abagore, imbere hakaba hateretse imeza.

Mu cyumba ahari umubyeyi wicaye akaba ateruye umwana, umwana akaba ari gusuzumwa na muganga wambaye iniforume z'abaganga.

Umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'abana. Hagamijwe kubafasha kugera ku ndoto zabo ndetse no kubaha ubufasha bw'ubuzima busanzwe.

Mu kigo cy'amashuri, ahicaye abana b'ingeri zitandukanye, bakaba bicaye ku ntebe zo mu ishuri, bari gufata amafunguro yabo, inyuma y'aho bicaye hakaba hari ikibaho.

Mu cyumba cy'inama ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, bose baricaye aho hagati yabo hari umugore uhagaze uyoboye iyo nama.

Ku ivomo ahari abana bato ndetse hari umumama uri kubafasha kuvoma, hirya y'ivomo hari imodoka y'umweru ndetse hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Mu busitani buri imbere y'inzu, ahabereye inama yahuje abayobozi batandukanye ndetse n'inzego z'umutekano ndetse n'abajyanama b'ubuzima.

Mu cyumba cyicayemo ababyeyi babiri, ndetse nabana babiri uw'umuhungu, nuw'umukobwa. hejuru yabo hakaba hamanitse ibishushanyo kurukuta.

Inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abayitabiriye baricaye aho imbere yabo hahagaze umuganga akaba ari nawe uyoboye iyo nama.

Ku ivomo hari umwana muto uri kuvomera mu kajerekani k'umuhondo. Mu muhanda uri haruguru y'iryo vomo hakaba hari guca abantu benshi biganjemo abanyeshuri.

Mu cyumba cy'inama, ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abayitabiriye baricayeh imbere yabo hari abayobozi batatu bayoboye iyi nama.

Icyumba cy'inama ahari kubera inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, bose baricaye imbere yabo hakaba hari umugabo uhagaze uyoboye iyo nama.

Ku ivomo rusange, iruhande rwaho hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hari umwana muto w'umukobwa waje kuvoma ndetse hari indobo eshatu z'umweru.

Mu cyumba kiberamo inama, ahari kubera inama ijyanye no gutanga ubushobozi ku bigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, hakaba hari umuyobozi w'umugabo uyoboye iyo nama.

Inama yahuje abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abayobozi batandukanye, n'inzego z'umutekano, kandi yitabiriwe n'abaturage, imbere hari umugabo uri kugeza ijambo ku bitabiriye iyo nama.

Ku ivomo ahari abantu batandukanye, aho bari kuvomera ahantu habiri ndetse buri wese yazanye ikivomesho cye.

Umugore uri kw'ivomo rusange, akaba ari kuvomera mu majerekani afite ibara ry'umuhondo, hirya yiryo vomo hakaba hatewe ibihingwa bitandukanye.

Umwana w'umuhungu muto uri ku ivomo, aho ari kunywa amazi akoresheje intoki, amazi ari kumurenga ku ntoki ari kugwa mu ndobo iri hasi.

Umwana w'umuhungu ukiri muto ndetse n'umukuru. Umukuru akaba ari koga intoki abifashijwemo n'umuto, aho umuto ari kumusukira amazi.

Ku ivomo rusange hari abana benshi. Kandi hakaba hari ibyo kuvomeramo bitandukanye. Hakaba hari umugabo uri gufasha kuzamura amazi, kugira ngo bashobore kuvoma.

Ahabereye inama, y'uburyo harwanwa icyorezo cya Marbarg. Hari abagabo babiri b'abayobozi bari gukorana mu ntoki. Ndetse umwe muri bo afite, ibitabo mu ntoki.

Ahari gutangirwa urukingo, hakaba hari umugore wicaye wambaye agapfukamunwa ndetse n'umuganga wicaye uri kumukingira kandi akaba yambaye imyenda y'abaganga n'agapfukamunwa.

Mu cyumba cy'inama, ahabereye inama yitabiriwe n'abayobozi batandukanye, ikaba iri kuba hifashishijwe ikoranabuhanga, imbere y'aho abayitabiriye bicaye, hakaba hari ibikoresho bitandukanye ndetse n'uducupa tw'amazi.

Igikoresho cyifashisha mu isuku mu gukaraba intoki, gifite ahaba amazi ndetse naho batekareka isabune.

Imbere y'inzu hanze yayo ahahuriye abantu benshi b'ingeri zitandukanye, harimo abadamu, abasaza, abagabo n'abagore ndetse n'abana.

Imbere y'ikigo nderabuzima cya Mayange, hari abakozi bakora muri iki kigo nderabuzima, bishimye ndetse bari kuririmba bashimisha abashyitsi babasuye.

Ku ivomo ahari umukobwa wicaye, akaba ari kuvoma akoresheje ijerekani y'umuhondo, inyuma ye hakaba hari umugozi wanitseho imyenda.

Kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, umurwayi ari gusuzumwa na muganga, inyuma y'aho bari hari uwundi muganga.

Umubyeyi utwite akaba aryamye mu gitanda cyo kwa muganga, akaba ari kwitabwaho n'umuganga uri kumusuzuma ndetse iruhande rwe hakaba hari umurwaza.

Mu cyumba cy'inama ahari kubera inama yahuje abayobozi batandukanye, bakaba bicaye, imbere yabo hari imeza, buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Mu cyumba cy'inama ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'abayobozi, irarangiye bari kwifotoza.

Ahabereye ubukangurambaga bw'ikigo gishinzwe ubuzima, hari abakangurambaga b'ingeri zitandukanye, bose bambaye umipira isa ndetse hari n'abayobozi.

Ahicaye abana benshi ndetse n'abantu bakuru kandi hari n'abashyitsi babasuye, abana bakaba bambaye imipira isa y'ubururu.

Ku kigo cy'amashuri, ahari utugega turimo amazi yo kunywa, hari abanyeshuri batandukanye, bafite udukombe bari kugenda banywa amazi

Umwana muto w'umukobwa, akaba ari koga intoki hifashishijwe kandagira ukarabe aho amazi arimo kuva mu ndobo yamara koga akajya mu ibasi.

Mu cyumba kiberamo inama, hari inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, bakaba bicaye aho imbere yabo hicaye abayobozi bayoboye inama.

Ku ivomo rusange ahari abantu benshi b'ingeri zitandukanye, hari umwana muto w'umukobwa uri kuvoma akoresheje amajerekani y'umuhondo, hari umumama kandi ufite umutaka, uri kumufasha.

Icyumba kimwe mu byumba byo kwa muganga, ahari kuberamo isuzuma ku bantu b'ingeri zitandukanye harimo abagore, abana, abasaza ndetse n'abandi, bikaba biri gukorwa n'umuganga ndetse n'undi mudamu uri kuri mashini.

Mu cyumba cy'inama ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, bamwe muri bo bakaba bicaye mu gihe abandi bahagaze.

Mu cyumba cy'inama ahari kubera amahugurwa ku bantu bayitabiriye, hari abagore ndetse n'abagabo, hagati muri bo hari umuntu uri kubahugura.

Muganga ahakirirwa abarwayi haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwakira abarwayi ari nk'intebe, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kubavura.

Ahabereye ubukangurambaga hagamijwe kurwanya indwara y'umuvuduko w'amaraso hari umusaza aje kwipimisha ngo arebe uko ahagaze ndetse n'umuganga uri kubipima.

Icyumba kiberamo inama, hari abayobozi batandukanye, harimo abagore, ndetse n'abagabo, imbere yabo hari ameza ateretseho udukombe tw'icyayi, ndetse n'ibindi bikoresho nka porojekiteri, byifashishwa hakorwa inama.

Icyumba cy'inama ahari kubera inama yitabiriwe n'abantu batandukanye. Bakaba bicaye. Imbere yabo, hakaba yicaye abayobozi.

Mu cyumba cy'inama, hari kubera inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, barakurikiye kandi baricaye, buri wese imbere ye hagiye hateretse agacupa k'amazi.

Mu cyumba ahicaye abantu b'ingeri zitandukanye, aho bari kujya inama ku kintu runaka, umwe muri bo w'umudamu arahagaze.

Ku ivomo rusange ahari abantu biganjemo igitsina gore. Hakaba hari amajerekani ari kuvomerwamo kandi ayo majerekani akaba ari ku murongo.

Mu cyumba cy'inama ahari kubera inama, hari urubyiruko rwitabiriye iyo nama, imbere ya buri wese witabiriye inama hagiye hateretse igitabo ndetse n'agacupa k'amazi.

Mu cyumba kiberamo inama, hari abayobozi batandukanye bakorera ikigo gishinzwe gufasha uburenganzira bw'abana, imbere yabo hagiye hateretse agacupa k'amazi.

Mu cyumba k'inama ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, ikaba iri kuba kandi hifashishijwe ikoranabuhanga, abayitabiriye baricaye aho imbere yabo hicaye abayobozi bayoboye iyi nama.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ndetse no kurwanya indwara zo mu mutwe. Wabaye ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi.

Mu cyumba kiberamo inama, ahabereye inama ahanini yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore, hagiye hari n'abayobozi ndetse bose baricaye.

Ahabereye amahugurwa yitabiriwe ahanini n'urubyiruko, abayitabiriye bakaba bambaye imipira isa y'ubururu ndetse hakaba hari n'abayobozi.

Mu nzu icururizwamo ibyo kurya bitandukanye, hari umugore uri guseka ndetse akaba yambaye umwambaro w'abakorera MTN.

Abagore batatu bicaye ku ntebe, babiri muri bo bakaba bateruye abana, undi hakaba hari terefone zimuteretse imbere, aho ari kuganira na bo.

Mu cyumba cy'inama, ahari kubera inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Bose baricaye kandi barakurikiye.

Mu cyumba ahabera inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo urubyiruko, bari gufata ifoto inama irangiye.

Umukecuru ukuze wambaye ikinigi mu ijosi ndetse yambaye amaherena ku matwi mu mutwe yiteze igitambaro cy'umweru.

Ahabereye inama yahuje abantu benshi higanjemo abagore bakaba bahagaze bari gukoma amashyi, ku meza imbere yaho bari bicaye hakaba hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'ibitabo.

Ku bitaro bikuru bya Munini, imbere yabyo hakaba hari ubusitani, ari na bwo burimo ibyapa biranga ibi bitaro.

Ahabereye inama y'ikigo gishinzwe iby'ubuzima mu Rwanda, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'abayobozi.

Ahabereye amahugurwa yitabiriwe ahanini n'urubyiruko ndetse n'abayobozi, nyuma y'amahugurwa, abayitabiriye bakaba bari kwifotoza ndetse abenshi bambaye imipira isa y'ubururu.

Ahabereye igikorwa cyo gutanga impamyabumenyi ku bantu runaka basoje amahugurwa, hari abantu bambaye imipira isa ndetse hari n'abayobozi kandi hari n'imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi.

Ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ndetse no kurwanya indwara yo mu mutwe, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Ahateraniye abantu bari bitabiriye inama runaka, ikaba yari yitabiriwe ahanini n'urubyiruko, imbere hakaba hahagaze abantu bateruye icyapa cyarangaga iyo nama.

Icyumba cy'inama, ahabereye inama ahanini yitabiriwe n'abagore, imbere y'aho bicaye hakaba hari umuntu uhagaze bigaragara ko ari we uyoboye inama.

Inzu irimo abakobwa babiri bicaranye barebana, umwe biragaragara ko afite ibibazo undi na we akaba ari kumuhumuriza.

Mu cyumba cy'inama ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abayitabiriye bose baricaye aho imbere yabo hari umugore uhagaze uyoboye iyi nama.

Abadamu bane bicaye ku ntebe imwe ndetse n'umugabo wicaye ku yindi ntebe. Bakaba bari kuganira. Inyuma y'aho bicaye hakaba hateye urutoki.

Mu cyumba cy'inama ahari kubera inama ahanini yitabiriwe n'abagore, abayitabiriye baricaye ndetse imbere hari umugabo uhagaze uri kwandika iyoboye iyo nama.

Mu cyumba kiberamo inama kirimo intebe ziteye ku ruziga, abayitabiriye bamwe baricaye aho hagati harimo abandi bahagaze.

Mu cyumba cy'inama ahabereye inama. Aho abayitabiriye bicaye bari gukurikirana inama hakoreshejwe ikoranabuhanga kandi bafashijwe n'umudamu uri imbere uyoboye iyo nama.

Igikoresho cyifashishwa mu gusukura amenyo, kikaba kiri gukoreshwa n'umukobwa, aho ari gusukura amenyo ye, iki gikoresho kikaba kiri mu ibara ry'ubururu.

Ahari gutangirwa serivise z'ubuvuzi bw'amenyo, hakaba hari umukobwa waje kwivuza, aho ari kuvurwa n'undi mukobwa w'umuganga wambaye imyenda y'abaganga.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa yaba kwakira abarwayi ndetse no kubavura, harimo nk'intebe ndetse ku ruhande hari utubati tubikwamo ibikoresho bimwe na bimwe.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, kandi hari intebe yicarwamo n'umurwayi, hari kandi utubati tubikwamo ibikoresho bitandukanye.

Ifoto itangwa n'icyuma cyo kwa muganga, gifotora umurwayi hagamijwe kureba ikibazo yaba afite mu mubiri kugira ngo hatangwe ubuvuzi.

Imwe mu ifoto zitangwa n'imashini yo kwa muganga, ifotora abarwayi hagamijwe kureba ikibazo uwo murwayi yaba afite.

Urudodo rwifashishwa mu gusukura amenyo, rufitwe n'umusore ukiri muto akaba arikurukoresha asukura amenyo ye.

Umuhungu n'umukobwa bahagaze bose bari koza amenyo bifashishije urudodo rwabugenewe, bose bakaba bambaye imipira isa y'umweru.

Icyumba kirimo intebe ahanini yifashishwa mu kuvura indwara z'umugongo, i ruhande rwayo hari ibindi bikoresho byifashishwa ndetse n'akandi gatebe.

Mu ishuri ryigamo abana bakiri bato ndetse hari n'abarimu babo, habaye igikorwa cyo gutanga uburoso bwifashishwa mu koza amenyo kuri aba bana bigamo.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, hari umwana urwaye, aho ari kwitabwaho na muganga w'umugabo.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi bw'amenyo, haryamye umurwayi w'umuhungu ukiri muto, waje kwaka izo serivise ndetse batangiye kumukorera, ari gufashwa n'umudamu w'umuganga.

Kwa muganga ahatangirwa serivise zo kuvura amenyo, hari umurwayi wicaye ku ntebe y'abarwayi aho ari kuvurwa n'umuganga w'umugore, wambaye iniforume z'abaganga.

Mu cyumba kirimo umurwayi wicaye ku ntebe abarwayi bicaraho ndetse iruhande rwe, hari umuganga uri kumuvura amenyo yifashishije igikoresho cyabigenewe.

Ifoto itangwa n'igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gufotora umurwayi, hagamijwe kureba ikibazo yaba afite mu mubiri.

Umubyeyi n'umwana, aho umubyeyi ari kwigisha umwana we uko biborosa. Bose bakaba bafite uburoso mu ntoki.

Mu cyumba ahicaye umwana, akaba ari gusuzumwa n'abaganga babiri, bambaye iniforome z'abaganga ngo barebe ko adafite ikibazo cy'amenyo.

Ifoto mu zo kwa muganga, yifashishwa hagaragazwa indwara umurwayi yaba afite, nyuma yo guca mu cyuma cyo kwa muganga kikamufotora.

Icyumba kirimo intebe yifashishwa mu gutanga ubuvuzi butandukanye, cyane cyane ku ndwara y'umugongo, iruhande rwayo hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi ndetse n'akandi gatebe gato.

Ahatangirwa serivise zijyanye no kwita ku menyo, hari umurwayi w'umwana, bakaba batangiye kumwitaho bareba ikibazo afite.

Abana bato biga mu kigo cy'amashuri kimwe, bari kuborosa amenyo yabo ndetse bafite udukombe tw'amazi mu ntoki.

Mu bitaro ahatangirwa ubuvuzi, hari ibikoresho bitandukanye, birimo intebe zicarwamo n'abarwayi ndetse n'abandi kandi hari ibikoresho bindi bitandukanye, bikoreshwa hatangwa ubuvuzi.

Ifoto imwe mu zitangwa n'imashini yo kwa muganga yifashishwa mu kureba indwara umurwayi yaba afite hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyakirirwamo abarwayi, hari ibikoresho bitandukanye harimo intebe yicarwaho n'umurwayi, ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kumuvura ndetse n'akandi gatebe kari ku ruhande.

Umurwayi w'umusaza mukuru, yicaye mu ntebe aho iruhande rwe hari umuganga umukurikirana, bose bakaba bari kumwe bishimye.

Umudamu ukuze, wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'amarinete, akaba ari gupima ibinini, bisa nkaho agiye kubinywa.

Umurwayi wagize ikibazo cy'imvune cyo kwitoza kuba yakongera kugenda, abifashijwemo n'ibikoresho akoresha akaba ari kubifashwamo kandi n'umuganga umufasha.

Umukecuru ndetse n'umusaza ukuze, bakaba bari kumwe bicaranye kandi bose bishimye.

Umuryango wishimye, hakaba harimo abana babiri, umugabo n'umugore ndetse hari n'umusaza n'umukecuru.

Abagore batatu bahagaze kandi bose bakuze, uwo hagati muri bo akaba afite telefoni mu ntoki, aho ari gufotora abandi bahagararanye.

Ahabereye igikorwa cyo gutanga ubufasha ku bantu bahuye n'ibibazo by'imvune, aho hari gutangwa utugare ndetse n'intebe bibafasha.

Umukecuru ukuze akaba ahagaze ari gutanga ijambo, ku bantu bitabiriye igikorwa runaka, afite indangururamajwi mu kaboko kandi yambaye imyenda y'imikenyero.

Umuryango w'abantu bashyize hamwe. Hakaba harimo umwana ndetse n'abantu bakuru, inyuma y'ahantu bicaye hakaba hateye indabo.

Umudamu mukuru uri mu nzu, akaba afite ikirahure cy'amazi mu ntoki n'ibinini, bikaba bigaragara ko agiye kunkwa ibinini.

Umukecuru n'umusaza baricaye, aho umusaza afite telefone mu ntoki akaba ari kwereka umukecuru ibintu biri muri telefone. Imbere yabo ku meza hateretse radi.

Mu kibuga cyifashishwa mu gukina umukino wa basikete, harimo umupapa ndetse n'umwana, aho uwo mupapa ari kwigisha umwana uko bakina basikete.

Umugabo ukuze ari gufashwa guhaguruka n'umugore, ari mu cyumba umugabo yicaye ku buriri aho uwo mugore ahagaze ari kumufasha guhaguruka.

Umusaza wicaye agiye kunywa imiti, aho ari kuyihabwa n'umukobwa w'umuganga wambaye iniforume z'abaganga. Umusaza kandi akaba afite ikirahuri kirimo amazi mu ntoki agiye kunywesha.

Abagore babiri bicaye hamwe, imbere yabo hari imeza iteretseho ibikoresho, aho umwe ari gukata imboga, undi afashe isahani y'ikirahure.

Umubyeyi mukuru wicaye mu kagare ahanini kagirwa n'abagize ibibazo by'imvu. imbere ye hakaba hicaye umuganga mu ntebe ahari kumupima ngarebe ku mutima we ukorara.

Umugabo w'umusaza wicaye, imbere ye hari ameza ariho ibyo kurya bitandukanye, kandi ku ruhande rwe hari umugore uri kumusukira ji mu kirahure.

Umukecuru n'umusaza bari gusangira ibyo kurya bishimye, biteretse ku meza ndetse kandi hari ikirahuri kirimo amazi.

Umudamu ukuze ari kwitoza kongera kugenda hifashishijwe igikoresho gifasha abantu bayihuye n'ibibazo by'imvune kongera kugenda, iruhande rwe hari umukobwa uri kumufasha.

Umukecuru n'umusaza bari gusangira bishimye, ku meza imbere yabo hateretseho amafunguro ndetse n'ikirahure kirimo amazi,

Abantu babiri bicaye mu nzu, imbere yabo hari imeza iteretseho amasahani ndetse n'ikirahuri kirimo amazi aho umwe ari gushyirira ibiryo undi ku isahani.

Umugore ukuze wambaye ikote ry'umweru, akaba ahagaze kandi afite amafunguro mu ntoki aho yiganjemo imboga.

Umukecuru n'umusaza bicaye hamwe mu nzu, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho ibinini ndetse n'ikirahuri kirimo amazi.

Umurwayi w'umusaza ukuze, ari gukora imyitozo ngororamubiri abifashijwemo n'umuganga w'umudamu uri kumubwira ibyo akora.

Umusaza ukuze, wicaye ku ntebe ari gupimwa indwara y'umuvuduko w'amaraso, hifashishijwe igikoresho cyabugenewe, aho ari gupimwa na muganga wambaye iniforume y'akazi.

Abagore babiri bahagararanye mu cyumba, imbere yabo hakaba hari ibikoresho bitandukanye ndetse n'imbuto n'imboga, kandi umwe muri bo akaba afite ikirahuri mu ntoki.

Ahateraniye abantu b'ingeri zitandukanye, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye mu byatsi. Higanjemo abagore, umugore umwe ari kuboha abandi baganira.

Mu cyumba ahicaye umusaza ndetse n'umuganga. Umusaza ari guhabwa inama na muganga. Umuganga yambaye imyenda y'abaganga ndetse afite mu ijosi igikoresho cyifashishwa mu gupima uko umutima ukora.

Mu murima w'ibigori, ahateraniye abantu higanjemo abadamu, bakaba bose bishimye kandi bari kwifotoza.

Umurwayi wahuye n'ikibazo cy'imvune, ari kwitoza kongera kugenda akoresheje igikoresho cyabigenewe. Ku ruhande rwe hari umumama uri kumufasha kugenda.

Umuganga w'umudamu, atwaye umurwayi w'umusaza mu kagare k'abarwayi, uwo muganga yambaye igikoresho, cyifashishwa mu gupima uko umutima ukora.

Umurwayi w'umugabo wagize ikibazo cy'imvune, ari kwitoza kongera kugenda akoreshejwe ibyuma byabugenewe. Inyuma ye hari umuganga uri kumufasha, wambaye imyenda y'abaganga.

Umumama ukuze wicaye ku ntebe ari guhabwa imiti n'umuganga, imbere ye hakaba hari imeza kandi akaba afite ikirahure kirimo amazi mu ntoki bigaragara ko agiye kukinywesha.

Umusaza mukuru wicaye wambaye rinete, akaba yicaranye n'umuganga uri kumupima ngo arebe ko umutima we ukora, muganga akaba yambaye iniforume.

Umukecuru n'umusaza bari kuganira aho imbere yabo ku meza hateretse ibyo kurya ndetse n'ikirahuri cy'amazi. Nyuma y'aho umusaza yicaye hahagaze umusore wambaye ikarita y'akazi.

Inzu harimo umurwayi w'umugabo ndetse bigaragara ko afite ikibazo cy'imvunu, akaba ari gufashwa n'umuganga umukurikirana kuba yagenda neza.

Ahahuriye abagore bakuze. Bamwe bakaba bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi. Inyuma y'aho bicaye hateye urutoki.

Mu murima w'icyayi aho hari abagore bari kugenda bayisarura, iyo bari kumara gusarura bari kuyishyira mu gikoresho kiri inyuma cyabugenewe.

Umusaza mukuru uri gusoma igitabo, akaba yicaye yambaye amarinete, ndetse akaba afite ikaramu mu ntoki.

Mu cyumba ahari umugore ukuze uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kufashwamo n'umugore umuhagaze imbere uri kumwerekera uko akora.

Mu cyumba cy'inama ahari kubera inama y'abayobozi batandukanye, bagamije kurebera hamwe umutekano ndetse n'ubuzima bw'abakozi baba bari ku kazi.

Mu cyumba k'inama, ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, barimo n'abayobozi, nyuma y'inama abitabiriye inama bose bifotoje.

Kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hari abaganga bane ndetse bari kuvura umurwayi. Iruhande rw'umurwayi hari imiti iri kwishishwa mu kumuvura.

Mu cyumba cy'inama, ahabereye inama ku kurwanya icyorezo cya Marburg. Hakaba hari abayobozi babiri bayoboye inama, ndetse n'abandi bicaye bakurikiye.

Ahabereye ubukangurambaga, hagamijwe kurwanya indwara y'umuvuduko w'amaraso, hari abantu benshi batandukanye ndetse hari umukobwa waje kwipimisha, ngo arebe uko ahagaze ndetse n'umukangurambaga uri kumupima.

Icyumba ahabereye ubukangurambaga runaka, bukaba bwitabiriwe ahanini n'abakobwa kandi bakaba bambaye imipira isa y'umweru, bakaba kandi bari kwifotoza.

Ahabereye inama yahuje abantu batandukanye, yiganjemo urubyiruko. Nyuma y'inama, abayitabiriye bari kwifotoza, buri wese afashe icyapa kigaragaza uko inama yari imeze.

Igikorwa cyo gutanga urukingo. Hakaba hari gukingirwa umudamu wambaye agapfukamunwa, akaba ari gukingirwa n'undi mudamu w'umuganga.

Ahabereye inama, hahagaze umukobwa ndetse n'umusore, bakaba bateruye ibyapa, bigaragaza uko iyo nama yari imeze.

Ahabereye ubukangurambaga bwo gutanga ibikoresho by'isuku ku bakobwa, hari abayobozi ndetse n'abandi bari kubafasha kugenda batanga ibyo bikoresho ku bakobwa bateraniye aho ngaho.

Ubukangurambaga bwo kwirinda kanseri y'ibere. Bukaba bwitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, kandi bose bakaba bambaye imipira isa.

Ahabereye inama yahuje abantu b'ingeri zitandukanye, igamije kurwanya sida muri Afurika, abayitabiriye bakaba bicaye, imbere yabo hakaba hicaye abayoboye iyo nama.

Umurwayi aryamye ku gatanda k'abarwayi, ari guhabwa ubutabazi bw'ibanze bikozwe n'abakorerabushake ndetse n'abaganga, iruhande rw'aho aryamye inyuma hari indege, bigaragara ko yari ari ku kibuga cy'indege.

Ahabereye ubukangurambaga bwo kwirinda indwara ya Kanseri y'umura, hakaba hari abagore bane bahitabiriye kandi bakaba bari kw'ifoto.

Ku munsi wo kurwanya Sida, ku rwego rw'Isi muri bibiri na makumyabiri na kane, ahabereye inama mu cyumba k'inama, hari intore ziri gusurutsa abitabiriye iyo nama.

Mu cyumba cy'inama ahabereye inama, yiga uko hazajya hakorwa ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuzima. Ikaba yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'abayobozi.

Ahabereye inama yahuje abagore b'ingeri zitandukanye bavuye Isi hose, nyuma y'inama abayitabiriye bakaba bari kwifotoza.

Mu cyumba cy'inama ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere yabo hakaba hicaye abayobozi batatu, akaba aribo bayoboye inama.

Mu nzu iberamwo inama, hari kubera inama yahuje urubyiruko, ahanini rw'abakobwa, imbere hari umukobwa uri gutanga inama, hagati hari undi uri gufotora.

Mu nzu itangirwamo serivisi zo gutanga imiti ku barwayi bayandikiwe na muganga, harimo imiti y'ubwoko butandukanye.

Mu nzu ikorerwamo ubushakashatsi, hakaba hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora ubushakashatsi biteretse ku meza ari muri iyi nzu.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hari nk'ibitandaryamwaho n'abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho.

Mu cyumba cyo kwa muganga, ahari igikoresho cyifashishwa bafotora abarwayi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo barebe aho bafite ikibazo mu mubiri.

Ibitaro bikorera mu nzu igeretse. Hanze hakaba hari abagabo batatu ndetse hakaba hanaparitse imodoka z'ubwoko butandukanye.

Mu nzu ikoreshwa mu gukora ubushakashatsi. Hakaba hari ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu gukora ubushakashatsi ndetse hari n'abantu bakoramo.

Mu nzu ikorerwamo ubushakashatsi, hari abakoramo ndetse bari gukora ubushakashatsi. Imbere yabo hari ibikoresho byifashishwa mu gukora ubushakashatsi.

Mu cyumba kimwe mu biba ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hakaba hari igitanda kiryamwaho n'umurwayi ndetse hari ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa hatangwa serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi, hagamije gutangwa serivisi zubuvuzi, hari imashini zitandukanye, zifashishwa muri ibyo bikorwa.

Mu cyumba kimwe, mu byumba biba kwa muganga. Hakaba hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kwakira abarwayi, harimo ibitanda bijyamwaho, n'abarwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo imashini yifashishwa mu kureba ikibazo umurwayi yaba afite mu mubiri, hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Mu bitaro aho buri wese ahugiye mu kazi ke, hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ndetse abaganga bahari bambaye iniforume.

Ku nzu yifashishwa mu gutanga inama ku rubyiruko, ahanini ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane inafasha abahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku bana, harimo agatanda umurwayi aryamaho ndetse n'ibishushanyo bitandukanye, bifasha kugira ngo ubuvuzi bw'abana bugende neza.

Mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi akenshi itangwa ry'imiti ku barwayi baba bayandikiwe na muganga.

Ku bitaro ahari abantu batandukanye, buri wese ari muri gahunda ze, hari umugabo ushinzwe umutekano kuri ibyo bitaro aho aba ahagaze ku marembo y'ibitaro.

Mu cyumba cyo kwa muganga, gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari igitanda umurwayi aryamaho ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi.

Ahari abantu b'ingeri zitandukanye, bakaba bari hanze y'urusengero, aho nanone hari imodoka ihaparitse ndetse kandi hanze y'urusengero, hari ubusitani buteyemo indabo n'ibiti bitandukanye.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, aho bakirira abaje bagana ibitaro, hari abicaye bategereje, ndetse n'abatangiye guhabwa serivisi.

Ku nzu y'ubushakashatsi yifashishwa kwa muganga, imbere yayo hicaye abadamu, imbere yayo kandi hari indabo zihateye.

Ku kigo nderabuzima cya Nyarurenzi, hakaba hari abantu benshi batandukanye kandi imbere y'icyo kigo hakaba hateye indabo.

Abadamu batatu bambaye iniforume zisa, bakaba bahagaze mu muhanda, inyuma yabo hateye ibiti bitandukanye ndetse n'ibindi bihingwa.

Mu nzu ahatangirwa serivise z'ubuvuzi, haratuje nta rujya n'uruza rw'abantu ruhari kandi hari ivaze riteyemo ururabo.

Kwa muganga ahatangirwa serivise z'ubuvuzi, hari ibitanda byinshi byakirirwaho abarwayi, buri hejuru ya cyose hari inzitiramubu.

Kwa muganga imbere y'inzu yifashishwa n'ababyeyi bagiye kubyara, hari abantu b'ingeri zitandukanye, barimo abakozi bo kwa muganga ndetse n'abayobozi bahasuye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bushakashatsi, harimo igifasha kureba utuntu duto umuntu atabonesha amaso ndetse, n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Kwa muganga hari umurwayi wicaye mu ntebe yakirirwamo abarwayi, akaba ari munini, ndetse yambaye agapfukamunwa, hirya ye hari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Kabgayi ku bitaro aho binjirira, hari igare ritwaye ibintu ndetse imbere mu bitaro hari ibiti by'amoko atandukanye.

Inzu ziberamo ibikorwa runaka, hanze hakaba hari ubusitani buteyemo indabo zitandukanye ndetse hari n'ibigega by'amazi.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye igitanda kiryamwaho n'umurwayi kandi hari abaganga batandukanye bahagaze bari kuganira.

Icyumba cyo kwa muganga cyakirirwamo abarwayi, hakaba harimo ibitanda bibiri cyifashisha mu kwakira abarwayi.

Ku nzu itangirwamo imiti mu gihe umurwayi yayandikiwe na muganga, hanze yayo haparitse imodoka ebyiri.

Ku bitaro bikuru bya Nyarugenge, hanze yaho hakaba hari ubusitani. Hakaba kandi bahagaze abaganga babiri, bakaba bari kuganira.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari ingendo z'abantu batandukanye kandi hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi.

Icyumba kimwe mu biba kwa muganga, hakaba harimo ibitanda byifashishwa mu kwakira abarwayi ndetse hagiye harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kubavura.

Imbere y'ibitaro, ahari abaganga b'abakobwa batandatu, aho bari kwifotoza, bose bambaye iniforume y'abaganga ndetse bambaye n'udupfukamunwa.

Kwa muganga ahari kuvurirwa umwana muto. Akaba arikuvurwa n'umuganga w'umugabo. Iruhande hari uwaherekeje umwana w'umusore.

Ibitaro ahatangirwa ubuvuzi bujyanye n'indwara zo mu mutwe, imbere y'ibyo bitaro hari ubusitani butewemo indabyo zitandukanye ndetse n'ibiti.

Imbere y'icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu gutanga serivise ku babyeyi bagiye kubyara z'ubuvuzi habereye inama ku bakozi b'ibitaro.

Mu cyumba k'inama, ahari kubera ubukangurambaga bw'ikintu runaka, ahanini bwitabiriwe n'abadamu bakuru, imbere hakaba hari umuyobozi uri gutanga inama.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Hari umukobwa w'umuganga, uri gusuzuma ngo yumve uko umugore utwite amerewe.

Imbere y'ibitaro bikuru bya Rwamagana, hanze yaho hateye indabo hari kwifotoreza abayobozi ndetse na bamwe mu baganga bakora muri bino bitaro.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, hari agatanda k'umurwayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa hatangwa ubuvuzi.

Mu bitaro bikorera mu nzu nini igeretse, hanze yabyo hakaba hari imodoka z'ubwoko butandukanye zihaparitse ndetse hari n'indi iri gusohoka ihava.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahari igitanda umurwayi aryamaho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku murwayi.

Icyumba cyo kwa muganga aharwariye abarwayi babiri, bose baryamye ku gitanda cy'abarwayi kandi iruhande rwabo hari amazi mu gacupa.

Ku bitaro bikuru bya Butaro ahari icyapa kibiranga kiri mu byatsi, imbere yaho hari kwifotoreza abakozi batandukanye b'ibi bitaro ndetse n'abantu babasuye.

Umugabo w'umuganga. Akaba afite igitabo mu ntoki. Akaba yambaye imyenda y'abaganga, ndetse mu ijosi hari igikoresho cyifashishwa n'abaganga, gupima ko umutima ukora. Inyuma ye hahagaze umugo...

Ku nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Imbere yayo hari ubusitani. Ndetse hari abantu bicaye n'abahagaze. B'ingeri zitandukanye.

Ku kigo nderabuzima aho bakirira abagana ikigo nderabuzima, hari abantu b'ingeri zitandukanye bategereje kwakirwa, higanjemo abadamu.

Umukobwa w'umuganga ari kugenda mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Mu cyumba arimo hakaba hari ibitanda byinshi byakirirwaho abarwayi.

Mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi, harimo igitanda cy'umurwayi ndetse n'ikindi gikoresho cyifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku murwayi.

Ahabera igikorwa cyo gutegereza kw'abantu bakeneye serivisi runaka. Hari abantu b'ingeri zitandukanye bategereje guhabwa serivisi.

Mu nzu iberamo ibikorwa bya siporo, hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora siporo zitandukanye gusa haratuje nta bantu bahari.

Mu cyumba cy'umwana hari ibikoresho bitandukanye birimo nk'intebe, igitanda cy'umwana ndetse n'utubati. Ku rukuta hakaba hari igishushanyo.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, hicayemo umuganga uri kureba ifoto yatanzwe n'igikoresho, cyifashishwa mu gufotora aho umurwayi yaba arwaye.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, hari ibitanda bine abarwayi bagana icyo kigo baryamaho, ndetse hagiye hari ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Mu nzu irimo ibikoresho bitandukanye nk'imeza, utubati ndetse n'ibindi, hari igikinisho cy'abana gifite ishusho y'akanyamasyo.

Abakorera ikigo gishinzwe serivisi zijyanye n'ubuzima, hari abantu benshi bagiye kwaka serivisi ndetse hanze yacyo hari imodoka zitandukanye.

Mu nzu itanga ubujyanama ku rubyiruko, iherereye i Remera Rukoma, hanze yayo hakaba hari ubusitani ndetse n'ibigega by'amazi.

Mu nzu icururizwamo rinete zitandukanye, imbere hakaba hari amayetajeri arimo rinete ndetse hanze hakaba hari ibyapa byinshi biranga ko ugeze kuri iyi nzu.

Ku nzu imwe mu zo kwa muganga yifashishwa n'ababyeyi batwite ndetse n'abagiye kubyara, hanze yayo hateye ibiti by'amoko atandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi kirafunguye, imbere hari abantu benshi kandi hanze ari umunyegare utwaye umukobwa ku igare.

Mu bitaro bitangirwamo serivise z'ubuvuzi, hanze y'ibitaro hari ubusitani buteyemo icyapa kiranga ko ugeze ku bitaro kandi hari n'imodoka.

Icyumba kirimo intebe yifashishwa mu buvuzi, mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane mugongo. Iruhande rwayo, hari akandi gatebe gato ndetse n'ibindi bikoresho.

Mu cyumba kiberamo ubushakashatsi, kikaba cyubatse ku buryo byorohera ubushakashatsi, harimo nk'aho bakarabira, amatajeri ndetse n'ibindi, hakaba hari kandi ibikoresho byifashishwa mu gukora ubushakashatsi.

Mu nzu yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi. Harimo igitanda cy'umurwayi, intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Mu nzu icururizwamo amarinete y'ubwoko butandukanye, hakaba hari udutajeri tugiye tubitsemo rinete ndetse hari n'intebe zo kwicaramo.

Ahacururizwa rinete, hakaba hari utubati tugiye turimo rinete ndetse munsi yatwo hari icyapa kiharanga.

Inzu ibamo ibiro by'ikigo cyitwa AHF, ikaba ari inzu nziza igeretse ndetse hanze yayo hakaba hari parikingi.

Mu cyumba kiberamo inama, ahari kubera inama, ahanini yitabiriwe n'abadamu, baricaye buri wese hasi hateretse agacupa k'amazi.

Ku kigo nderabuzima gitanga serivisi z'ubuvuzi, ahanini ku bana bato. Hari abantu benshi biganjemo abakozi bo kuri iki kigo ndetse n'abandi.

Mu cyumba ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari igitanda umurwayi aryamaho, ndetse n'ibindi bikoresho nk'utubati, ndetse n'ibindi.

Mu nzu ikorerwamo ubushakashatsi hagamijwe gutanga serivisi z'ubuvuzi, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri ubwo bushakashatsi.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari ibitanda bitatu abarwayi baryamamo ndetse n'ikindi gikoresho cyifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Ku kigo nderabuzima cya Kigina, harafunguye, mbere hari inyubako z'iki kigo, ndetse hanze hari umugore uhetse umwana.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho abagore babyarira, imbere yaho hateretse intebe ebyiri ndetse hari abagabo bari kuhanyura.

Mu cyumba kimwe, mu biba kwa muganga, hari ibitanda bibiri byose biriho abarwayi, umurwayi umwe aricaye ku gitanda cy'abarwayi, aho ari kuvurwa n'umuganga.

Icyumba kiberamo ibiganiro hakaba hari ibikoresho bitandukanye nk'intebe n'ameza ndetse hakaba hari amavaze menshi ateyemo indabo.

Umuganga uri gutera urushinge umusore wicaye, akaba yamanuye ishati kugira ngo babone aho batera urushinge, umuganga yambaye iniforume z'abaganga.

Ku bitaro bikorera mu nzu igeretse, hanze yabyo hakaba hari aho imodoka ziparika, hakaba haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, harimo n'izifashishwa mu kugeza abarwayi kwa muganga.

Umwana w'umunyeshuri ari gupimwa uko umutima ukora hifashishijwe igikoresho cyabugenewe. Aho ari gupimwa n'umuganga w'umugore, wambaye imyenda y'abaganga.

Mu cyumba kimwe mu byo kwa muganga, harimo igitanda cy'umurwayi, aho umurwayi aryama ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe byifashisha mu kuvura umurwayi.

Inzu itangirwamo imiti abarwayi bayandikiwe na muganga ndetse n'abandi barwaye, hanze yaho hari moto yicaweho n'uyitwara ndetse n'undi muntu uri gusohoka ava muri iyo nzu.

Mu cyumba kigari gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa harimo nk'ibitanda, utubati ndetse n'ibindi.

Umukecuru ndetse n'umuganga baricaye, aho umuganga ariguha inama umukecuru, uburyo yakwitwara ndetse inyuma yabo hateye urutoke ndetse n'indabo.

Mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye. Harimo imeza, etajeri ndetse n'intebe. Imeza ikaba iteretseho mudasobwa.

Ibitaro bikuru bya Nyarugenge, imbere yabyo hakaba hari ubusitani burimo indabyo zitandukanye ndetse n'ibiti.

Ku kigo nderabuzima cya Kanyinya, akaba ari etaje igeretse y'umweru, hanze yaho hakaba hateye indabo.

Icyumba cyo kwa muganga cyakirirwamo abarwayi, hakaba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwakira ndetse no kuvura abarwayi.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi batandukanye, ndetse hari n'abakozi bashinzwe amasuku bari bahasukura.

Ku bitaro biherereye i Nyanza aho imbere mu bitaro hari inzu z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gutanga serivise ku barwayi, hanze yazo hari ubusitani.

Mu cyumba cyo kwa muganga, ahari imashini yifashishwa mu gusuzuma indwara umurwayi afite, hifashishijwe ikoranabuhanga.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari umurwayi uri kuvurwa n'umuganga w'umumama ndetse ku ruhande hari abandi baganga.

Mu cyumba kigari cyo kwa muganga ahakirirwa abarwayi, hakaba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubakira harimo ibitanda, utubati ndetse n'ibindi.

Icyumba kimwe mu byo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, harimo nka mudasobwa ndetse n'agatanda k'umurwayi n'ibindi byinshi.

Icyumba cy'inama kiri kuberamo inama, aho abayitabiriye imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi kandi imbere yabo hari umugabo uyoboye iyo nama uhagaze.

Inzu igeretse nini, imbere yayo hari ubusitani buteyemo indabo ndetse hari n'itara rirerire.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hari agatanda k'abarwayi ndetse hari na mudasobwa n'ibindi bikoresho byifashishwa hatangwa ubuvuzi.

Inzu imwe mu zo mu bitaro yifashishwa n'ababyeyi bagiye kubyara, imbere yayo hahagaze abaganga b'abadamu bane bose bambaye.

Mu cyumba kimwe mu biba kwa muganga ahari igikoresho cyifashishwa mu gufotora umurwayi hagamijwe kureba indwara yaba afite mu mubiri kugira ngo hatangwe ubuvuzi kuri bo.

Kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi. Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa, aho hari ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Ku kigo nderabuzima cya Kigina harafunguye, hanze yacyo hakaba hari umugore, akaba kandi ahetse umwana mu mugongo.

Ahateraniye abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bari kuva ahari hari gukorerwa inama ndetse hari n'imodoka ebyiri nazo ziri kuva aho hari habereye inama.

Ku kigo nderabuzima cya Tabagwe hari abantu b'ingeri zitandukanye baje gushaka serivise z'ubuvuzi ndetse imbere y'icyo kigo hari ubusitani.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, harimo umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi, harimo kandi ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari igikoresho cyifashishwa bafotora umurwayi aho yaba afite ikibazo kugira ngo bamuvure.

Hari inzu zitandukanye zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hanze yazo hagiye hicaye abantu kandi hari ubusitani buteyemo indabo.

Mu nzu itangirwamo imiti, ku bantu bayandikiwe na muganga, imbere harimo imiti y'ubwoko butandukanye, kandi hanze yayo haparitse imodoka.

Ibitaro bya Kabutare, ahari inzu y'ikigo cy'urubyiruko, imbere yayo hakaba hari abayobozi batandukanye ndetse n'abaganga bakora muri ibi bitaro.

Mu cyumba kiberamo ubushakashatsi, imbere hakaba harimo ibikoresho byifashishwa n'abakora ubushakashatsi, harimo intebe, imeza ndetse n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga kibamo imashini yifashishwa mu buvuzi mu kureba indwara umuntu yaba afite mu mubiri, hari umuganga ukoramo uri gukoresha icyo gikoresho.

Mu nzu icururizwamo rinete, imbere hakaba hari utubati, tuba turimo rinete, ndetse hakaba harimo umukozi uhakora, hanze hari ibyapa biharanga.

Mu cyumba kigari cyo kwa muganga, aho bakirira abarwayi, hari ibikoresho byinshi byifashishwa, harimo nk'intebe, ameza ndetse n'ibitanda byakirirwaho abarwayi.

Ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, harimo nk'inshinge, ibinini itoroshi, umukasi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngoramubiri, imbere ye hari ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo nk'imboga n'imbuto, ibyo kunkwa n'ibindi.

Mu nzu iberamo inama. Hari kubera inama hagamijwe gutanga ubumenyi, ku bantu batanga serivisi z'ubuganga ndetse hifashishijwe ikoranabuhanga.

Icyumba kiri kuberamo amahugurwa ku gutanga ubutabazi bw'ibanze, iki gikorwa ahanini kikaba cyitabiriwe n'urubyiruko.

Kwa muganga hari umuganga uri kuvura umwana amaso akoresheje igikoresho cyabugenewe, uwo mwana akaba ateruwe n'umumama.

Igikoresho cyifashishwa mu buvuzi kugira ngo hapimwe umuntu niba nta kibazo cy'umuvuduko w'amaraso yaba afite, kandi hari umuntu wicaye uri kuvugira kuri telefone, imbere hateretse mudasobwa.

Isomo ku bantu bafata imiti runaka, ibinini, inshinge cyangwa se ibindi, mu gihe bari gukora siporo kugira ngo bibongerere imbaraga.

Mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hari umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto n'imyenda bya siporo byabugenewe.

Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa hatangwa ubutabazi bw'ibanze. Harimo umukasi ndetse n'ibindi, hakaba hari n'agakapu bibikwamo.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z' ubuvuzi. Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa, birimo harimo n' intebe umurwayi yicaraho, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kumuvura.

Igikoresho kifashishwa ahanini n'abaganga, mu gupima ngo barebe ko umurwayi waje bagana yaba adafite ibibazo by'umutima.

Imboga n'imbuto. Aho mu mbuto dusangamo nka pome, ndetse na voka. Kandi hari icupa ritwara amazi, ndetse n'inkweto za siporo.

Mu kibuga ahahagaze umugabo ufite umupira mu ntoki, ku ruhande hari umuntu wagize ikibazo k'imvune, uri kwitoza kugenda akoresheje igikoresho cyabugenewe.

Mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Ahari umusore uri gukora siporo. Aho yambaye imyenda n'inkweto byabugenewe. Iruhande rwe hari umukobwa uri kumurebera.

Amabwiriza agenga uko ibikorwa byo gukora siporo bigiye kuzajya bigenda bitewe n'uko hasigaye hariho icyorezo cya kovide cumi n'icyenda.

Mu bitaro ahari gutangwa serivisi y'ubuvuzi, ku murwayi wagize ikibazo k'imvune, bikaba biri gukorwa hifashishijwe igikoresho cyabugenewe ndetse biri gukorwa n'umuganga.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye inkweto ndetse n'imyenda ya siporo yabugenewe, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi.

Mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hari umugabo uri gukora imyitozo, yambaye imyenda ya siporo yabugenewe ndetse iruhande rwe hahagaze umutoza.

Ibinini bifasha kugabanya ububabare, haba ubwo mu ngingo, mu mugongo, ndetse n'ahandi, bikaba bisangwa mu icupa rito ry'umweru.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri kandi yambaye imyenda ya siporo yabugenewe, iruhande rwe hari amavaze agiye ateyemo indabo.

Umurwayi uri guhabwa ubuvuzi bwo kumugorora aho yaba afite ikibazo ku kaguru. Akaba ari guhabwa iyi serivise n'umuganga wambaye imyenda y'akazi.

Kubera imikino ya siporo hakaba hari abantu benshi barimo abakinnyi ndetse n'abandi, hari umukinnyi wagize ikibazo mu kibuga akaba yicaye ku gatanda k'abarwayi.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda ya siporo yabugenewe.

Icyumba kimwe mu byumba biba kwa muganga, cyifashishwa mu gupima indwara umuntu arwaye, hakoreshejwe imirasire yitwa x-rays.

Inkoni yifashishwa mu buvuzi ku bantu bagize ikibazo cy'imvune, ahanini zo ku kaguru kugira ngo babe babasha kongera kugenda.

Igikapu kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa hatangwa ubutabazi bw'ibanze, harimo nk'ibinini, umukasi ndetse n'ibindi.

Ikibuga cy'umupira, ahari abakinnyi babiri, aho umwe aryamye, bigaragara ko yagize imvune, undi akaba ari kumufasha kuba yakongera gukira.

Umusore wicaye akaba afite telefoni mu ntoki, aho afite ekuteri mu matwi, akaba kandi ari kunywa amazi yifashishije icupa ry'amazi ryabugenewe.

Akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, aho bikurinda ibibazo byinshi ndetse n'indwara, harimo n'indwara y'umutima ndetse na siteresi n'izindi zitandukanye.

Umukobwa uri gukora siporo, akaba yambaye imyenda ya siporo, imbere ye aho ari gukorera siporo iteye ururabo ndetse hateretse icupa ry'amazi.

Ibicuruzwa bitandukanye, byifashishwa mu kugabanya ububabare, bikaba bikoreshwa aho umuntu afite ububabare, bikaba biri mu macupa y'umweru.

Umurwayi wagize ikibazo cy'imvune, ari kwitoza kongera kugenda akoresheje igikoresho cyabugenewe kandi ari kubifashwamo n'umuganga ushinzwe kumukurikirana.

Umukobwa ufite imisatsi migufi, yambaye imyenda ya siporo, ndetse na ekuteri mu matwi, ari kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe.

Umuryango ushinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze mu Rwanda, ukaba ugaragazwa n'ikimenyetso cy'umusaraba, uri mui ibara ry'umutuku.

Umukobwa muto uri muri siporo ndetse yambaye imyenda ya siporo. Akaba ari kunywa amazi akoresheje icupa ryifashishwa mu gutwara amazi.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga mu kwigiraho uko bazajya bavura abarwayi, kirambitse ku meza kiri gukoreshwa.

Abantu babiri, umugabo n'umugore. Aho bose bahagaze bateranye umugongo. Buri wese akaba ari kunywa amazi, yifashishije icupa ry'amazi.

Ahari umuganga uri gusuzuma umwana ngo arebe ko uwo mwana ataba afite ikibazo cy'amaso, akaba ari kumupima akoresheje igikoresho cyabugenewe.

Abantu babiri umugabo n'umugore bakaba bahagaze bateranye imigongo, aho buri umwe ari kunywa amazi yifashishije icupa ry'amazi.

Kwa muganga ahari umuganga ufite igikoresho mu ntoki, akaba yambaye iniforume y'umweru ndetse iruhande rwe hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umukobwa w'umuganga uri kwambara agapfukamunwa, akaba kandi yambaye iniforume z'abaganga n'igikoresho cyifashishwa hapimwa uko umutima ukora. Imbere ye ku meza hari mudasobwa ndetse n'andi makaye.

Igikoresho cyifashishwa ahanini n'abaganga mu gupima umurwayi ngo barebe ko ataba afite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso.

Umusore uri gukora siporo abifashijwemo n'undi, aho uri gukora siporo yambaye imyenda ya siporo ndetse aryamye ku gitanda.

Mu kibuga ahari kubera imyitozo ngororamubiri yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abayitabiriye bose bambaye imyenda ndetse n'inkweto bya siporo byabugenewe.

Mu kibuga gikinirwamo umukino wa baskete, hakaba hari abana bambaye imyenda ya siporo, bari gukina, hirya yabo hakaba hari abantu benshi bahagaze n'abicaye bari kubareba.

Umuhungu n'umukobwa bari muri siporo, buri wese yambaye imyenda ya siporo yabugenewe kandi afite icupa ryamazi mu ntoki.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto ndetse n'imyenda ya siporo byabugenewe, akaba ari kuzikorera ahantu mu byatsi.

Umuntu uri muri siporo. Akaba yambaye imyenda ya siporo ndetse kandi n'akandi gasume k'umweru. Akaba ari kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe.

Mu nzu hari umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri. Aba yambaye inkweto n'imyenda bya siporo byabugenewe.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye, imbere ye hakaba hateretse icupa ririmo amazi.

Umuti wifashishwa mu kugabanya uburibwe buri mu ngingo cyangwa se mu mugongo, aho ukoreshwa bawutera ahantu hafite ikibazo kugira ngo uburibwe buhagarare.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye imyenda ya siporo yabugenewe, inyuma ye hakaba hari intebe bicaramo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye imyenda ya siporo yabugenewe ndetse n'inkweto zabugenewe.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye inkweto n'imyenda bya siporo byabugenewe kandi ari kwifashisha igikoresho cya siporo.

Ikibuga gikinirwamo umukino wa basikete hari abana benshi bari ku murongo ndetse bari gukora imyitozo ngororamubiri babifashijwemo n'abatoza.

Umukobwa ufite imisatsi miremire. Akaba ari muri siporo, aho yambaye imyenda ya siporo kandi yambaye ekuteri mu matwi. Ari kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe.

Ku nyanja ahahagaze umukobwa muremure, ufite imisatsi myiza. Yambaye imyenda ya siporo, ikigaragara yahasohokeye, yaje kuruhura mu mutwe.

Ahateraniye abana benshi, bato bakaba bari mu myitozo ngororamubiri, aho imbere yabo hari umwe uri kubereka ibyo bakora.

Ahari kubera amahugurwa ku baganga bakora mu kigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuvuzi aho ari gutangwa n'umuganga w'umugabo.

Umusore uri gukora siporo, akaba yambaye inkweto za siporo zabugenewe ndetse n'ikabutura ya siporo, akaba kandi yambaye n'isaha.

Umukobwa uri gukora siporo, ndetse kubifatanya ahanini n'imbuto, ziganjemo imineke, amaronji, pome, ndetse n'ibindi, bituma umuntu abasha kugira ubuzima bwiza.

Mu isoko ahabera ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abantu buri wese agiye muri gahunda ze ndetse hari abacuruzi benshi bahakora.

Ibicuruzwa bitandukanye bikorwa hifashishijwe ibihingwa harimo, nk'umuti w'amenyo ndetse n'amavuta yo kwisiga. Ibihingwa bikoreshwa harimo igikakarubamba ndetse n'indabyo.

Ahabereye imurikagurisha ry'ibikorwa bitandukanye, hakaba hari umugore waryitabiriye, aho imbere ye hari amacupa menshi y'ubwoko butandukanye arimo ibinyobwa bari kugurisha.

Umuti ukoreshwa mu koza amenyo. Ukaba uko hifashishijwe igikakarubamba, ukaba uri mu ducupa tw'umweru duto.

Ibinini bikoreshwa buri munsi, bikaba biri mu icupa rito ry'umweru ndetse rifite umufuniko w'umweru.

Amavuta ndetse n'isabune bikorwa hifashishijwe igihingwa cy'igikakarubamba. Agiye ari mu ducupa tw'umweru ndetse akaba akoreshwa mu maso ndetse no ku mubiri.

Isabune ikoreshwa ku mubiri ndetse no mu maso. Iyi sabune ikaba ikorwa hifashishijwe ibimera nk'avoka ndetse n'igikakarubamba.

Umuti wifashishwa mu koza amenyo, ukaba ukorwa hifashishijwe igikakarubamba, ukaba uri mu icupa rito ry'umweru uri mu macupa hari amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi.

Ibicuruzwa bitandukanye bikorwa hifashishijwe ibikomoka ku buhinzi, bikaba bikorwa n'uruganda rumwe muri byo hakaba harimo amasabune, ibinini, amavuta ndetse n'ibindi.

Amavuta akorwa hifashishijwe ibikomoka ku buhinzi by'amaronji. Akaba ari mu gacupa gato k'umweru. Inyuma yako, hakaba hari amaronji.

Ibicuruzwa bitandukanye, bikorwa hifashishijwe igikakarubamba, bigiye bifite amabara atandukanye, harimo iby'umuhondo, umweru ndetse n'ibyandikishijeho amabara y'icyatsi, gusa byose bishushanyijeho igikakarubamba.

Amacupa menshi arimo amavuta yo kwisiga, akorwa hifashishijwe igikakarubamba, inyuma ya buri cupa, hagiye hashushanyijeho igikakarubamba.

Amavuta yo kwisiga akorwa hifashishijwe igikakarubamba yose akaba ari mu macupa aho amwe ari mu icupa ry'umuhondo andi akaba ari mu icupa ry'umweru.

Amavuta yo kwisiga akorwa hifashishijwe igikakarubamba. Akaba ari mu macupa agiye atandukanye, buri ryose inyuma yashushanyijeho igikakarubamba.

Amavuta akorwa hifashishijwe amaronji, akaba ari mu gacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru, inyuma yaho gateretse hakaba hari amaronji.

Ahacururizwa ibiribwa nk'imboga ndetse n'ibindi, harimo nko mu masoko ndetse n'inzu zicururizwamo ibyo kurya bitandukanye.

Amavuta akorwa hifashishijwe igikakarubamba. Akaba ari mu icupa rinini ry'umweru ndetse inyuma kuri iryo cupa hakaba hariho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'ubururu.

Amavuta ndetse n'isabune ikorwa hifashishijwe igikakarubamba, amavuta ari mu icupa rito inyuma handikishijeho ibara ry'ubururu, isabune iri mu icupa rito inyuma handikishijeho ibara ry'icyatsi.

Ibicuruzwa bitandukanye, bikorwa akenshi hifashishijwe ibikomoka ku nzuki, harimo nk'ubuki, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi.

Umuti wifashishwa mu koza amenyo ukaba ukorwa hifashishijwe igihingwa k'igikakarubamba, ukaba uri mu icupa rito ry'umweru. Inyuma yabyo handikishije amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Inzu ikoreshwa mu gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hakaba harimo kandi abakozi babiri bakoramo.

Mu kibanza kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, aho harimo ibirebire ndetse n'ibito bitarakura.

Amavuta ari mu icupa rito ry'ikirahure, akaba akorwa hifashishijwe ibitunguru ndetse n'indimu, akaba asa n'ibara ry'umuhondo.

Mu imurikagurisha, aho hari abantu batandukanye baryitabiriye, hakaba hari umugore uhagaze uhakora, ndetse imbere ye hakaba hateretse amacupa menshi y'ubwoko butandukanye.